Amafunguro ateguye neza hariho iyama y'inkoko ndetse n'ibirayi byose bitetse neza. Ibi bitekwa mu mahoteli menshi yo mu Rwanda ndetse n'amaresitora.

Mu tubari si ibinyobwa gusa bibamo. Ahubwo n'amafunguro ateguye neza abonekamo, aho ushobora kubona ibiryo biriho inyama y'ifi, umuceri, ibirayi ndetse n'ibindi.

Mu tubari haba harimo urujya n'uruza rw'abantu. Bamwe bari kuganira bambaye neza kandi hakabonekamo ibintu byinshi by'imyidagaduro nk'amateleviziyo, imiziki ndetse n'ibindi.

Inyama zokeje ziri ku duti, aho ziryoga cyane iyo zitezwe guca, bakoresha umuriro w'imbabura ndetse n'amakara.

Mu tubari cyangwa se mu mahoteri habonekamo amafunguro menshi atandukanye harimo nk'inyama, umuceri, ibirayi, amafi ndetse n'ibindi.

Inzu y'ubucuruzi, aho bigaragara ko bacuruza ibikoresho bitandukanye by'ubwubatsi, harimo amakaro, amatiyo, amasuka, ndetse n'ibindi byinshi.

Inyubako y'ubucuruzi imbere yayo hakaba hariho imodoka kandi hakaba hariho n'umubyeyi uri gucuruza ibintu bitandukanye harimo: ibitunguru, karoti, imboga, ndetse n'ibindi bintu byinshi bitandukanye.

Icyapa kiri kugaragaza icyo inzu y'ubucuruzi bacuruzamo. Harimo ibiribwa byinshi bitandukanye nka biswi, amakaroni, umugati ndetse n'ibindi birungo bitandukanye. Kandi hakabamo n'ibinyobwa by'inzoga.

Inzu y'ubucuruzi bigaragara ko bacuruza ibikoresho bakoresha mu kubaka amashanyarazi, amazi ndetse n'ibindi.

Amahoteri arimo ingeri nyinshi, aho babibara bagendeye ku nyenyeri iyo hoteri ifite, iyi nyenyeri imwe iba ari hoteri iciriritse ,naho inyenyeri eshanu iba ari hoteri y'urwego rwo hejuru.

Inzu z'ubucuruzi zitandukanye. Zubatse iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo. Hariho urujya n'uruza rw'abantu, kandi kuri izo nyubako hakaba hariho ibyapa bigaragaza icyo zikoreshwa. Nko kugurisha ibinyobwa, imyenda, ndetse n'ubudozi.

Inyubako igezweho, ifite icyumba gikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi. Aho bakaba bacuruza ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo ibikapu, indobo, udukombe ndetse n'imyambaro itandukanye.

Iguriro ry'ibiribwa, aho ushobora gukoresha ikoranabuhanga ugatumiza, ibiryo bakabikugezaho utavuye aho uri, kandi ubu buryo ni bwiza cyane, kuko butuma abantu badata umwanya bagiye guhaha ibiribwa.

Igikorwa abantu benshi bakora kandi bakagira ubuzima bwiza, ubucuruzi nibwo buri ku mwanya wa mbere, aho barangura ibintu byinshi bitandukanye, maze abakiriya bakabaha amafaranga, bityo bakabonamo inyungu bakiteza imbere.

Icyapa kigaragaza serivisi zitangwa hano, hagaragajwe ko bapima ubutaka butabaruye, bagabanyamo ibice, ko bakosora ubuso n'imbibi, kandi bagashakira abantu ibyangombwa, ndetse n'ibindi, andi maserivisi menshi abantu baba bakeneye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imirongo y'umweru bigaragaza ko ari aho abantu bambukira, kandi haba hagaragara inzu ndende cyane bisa nkaho ari urusengero.

Ikoraniro ry'inzu z'ubucuruzi aho zicuruza ibintu byinshi bitandukanye, harimo n'amacupa y'imyuka yo gutekesha, ibiribwa, imyambaro ndetse akanatanga serivise z'irembo.

Iguriro ritoya ririmo utuntu tw'amafaranga makeya, kandi utwo tuntu tukaba duciriritse, tumwe muri two harimo amabombo, ubunyobwa, ndetse n'utundi tuntu two kuribwa aho abantu bashobora kutugura igihe bari ku rugendo.

Inyubako z'ubucuruzi zubatse iruhande rw'umuhanda izo nyubako ziteye amarangi menshi atandukanye harimo umweru ,ubururu ndetse n'umuhondo kandi bigaragara ko iruhande rw'izo nyubako hari ikibumbano cy'ingagi.

Inyubako y'ubucuruzi ifite ibyapa byinshi bitandukanye, bimwe bigaragaza icyo iyo nyubako ikorerwamo, harimo nko gutanga serivisi z'irembo, aho abaturage bajya gushaka serivisi z'irembo nko gusaba indangamuntu, gutanga imisoro n'ibindi.

Inzu ifite uruzitiro rw'ibiti ,aho hariho n'urugi rufite ibara ry'ubururu. Kuri yo nzu kandi hakaba hari icyapa gikangurira abantu cyangwa se gikebura abantu kibabwira ko aho hantu hari amacumbi yo kubamo.

Kugira ngo imbuto runaka iboneke, babanza gutera imirama aho umurama ujya kugurwa mu nzu y'ubucuruzi, kugira ngo abahinzi bazawifashishe batera ibihingwa runaka.

Abashoramari benshi, bashaka amafaranga bagashora mu mishinga yo gucuruza utubari, aho abantu benshi muri iyi minsi, bakunda kujya mu tubari mu buryo bwo kwishimisha, ndetse no guhuza inshuti n'abavandimwe.

Inyubako zikoreshwa nk'amacumbi igihe habonetse abantu baza nk'abakiriya, baje kuba muri iyo nzu bagatanga amafaranga, maze bakabamo igihe runaka.

Inzu y'ubucuruzi igezweho. Hariho ibyapa biri kugaragaza icyo iyo nzu ikorerwamo. Hari ibigaragara ko hari amacumbi, ndetse ari naho batunganyiriza imisatsi.

Mu nzu z'ubucuruzi zitandukanye habonekamo ibikoresho byinshi bigurishwa ku mafaranga make, aho hagurishwa kimwe cya kabiri cyangwa se igice gito cy'ibya byose kugira ngo uhendukirwe cyangwa se ugure bitewe n'amafaranga ufite.

Inyubako nyinshi z'ubucuruzi， bigaragara nk'aho zikoreshwa ibintu byinshi bitandukanye， zimwe muri zo bigaragara ko zikoreshwa mu bucuruzi bw'ibiribwa， amacupa y'imyuka yo gutekesha ndetse n'ibindi.

Inzu batunganyirizamo imisatsi y'abantu. Aho hari n'amagambo ari hejuru y'umuryango w'iyo nyubako, agaragaza ko aho hantu bogosha cyangwa se batunganya imisatsi.

Iduka ricuruza ibikoresho by'ubwubatsi harimo amatiyo, insinga , imikoropesho, amasuka ibitiyo ndetse n'ibindi.

Ibyumba by'ubucuruzi bigura ndetse bikanagurisha ibikoresho by'itumanaho, nk'amatelefoni, amamudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga. Aho habamo n'abandi bantu babikora igihe byapfuye.

Ibikoresho bakoresha kugira ngo bongere ubushobozi bw'igare cyangwa se n'ikindi gikoresho igihe bimwe mu bice byabyo byashaje, rero hano ni byo bagurisha kugira ngo bijye gusimbuzwa ibyashaje.

Inyubako bisa nkaho ari iy'ubucuruzi kuko hari icyapa gihari gishushanijeho igitanda cyangwa se uburiri bigaragaza ko ari hoteri cg se bagira amacumbi.

Inzu y'ubucuruzi iriho abantu benshi, aho hari abaje kugura hari n'abagurisha, abagurisha bacuruza ibintu byinshi bitandukanye harimo: ibinyampeke, nk'ibigori, amasaka ndetse n'umuceri.

Uruhererekane rw'amazu y'ubucuruzi, aho bigaragara ko hari urujya n'uruza rw'abantu bagiye kuri ayo mazu y'ubucuruzi, aho baba bagiye gushaka ibintu byinshi bitandukanye no kubigura.

Inyubako y'ubucuruzi hariho abantu, bigaragara ko iyo nyubako iriho icyapa, kigaragaza icyo bakoreramo, bigaragara ko harimo abantu batunganya imisatsi y'abagore, iy'abana, ndetse n'abagabo.

Inzu y'ubucuruzi igezweho. Iriho ibyapa bigaragaza icyo iyo nzu ikorerwamo. Bimwe mu bigaragara ku byapa, harimo iguriro ry'imyenda, hariho n'icyapa kiriho abantu batanga serivisi, ndetse n'aho bakora imisatsi.

Amatara yo ku mihandaani ni meza cyane, kuko arinda impanuka, aho abatwara ibinyabiziga bagenda babona neza, aho abanyamaguru bari, cyangwa se aho ibindi binyabiziga biri, bityo bigatuma umutekano wo mu muhanda umera neza.

Inzu y'ubucuruzi iriho abantu. Bigaragara ko hari abakiriya ndetse n'abacuruzi. Iyi nzu y'ubucuruzi bigaragara ko hakorerwamo ubucuruzi bwo kugurisha imyenda, kuyidoda, gukora inkweto, kandi bagacuruza n'ibikapu badoze.

Ibicuruzwa byinshi bitandukanye, harimo intebe zigaragara mu mabara menshi atandukanye, ibikapu biryamirwa ndetse n'utundi dukoresho tw'ibanze, dukoreshwa mu rugo aho abaturage bajya ku bacuruzi, kugira ngo batugure bazajye batwifashisha mu mirimo ya buri munsi.

Urunigi. Ni akambaro wambika mu ijosi. Ugura, umugore, umugabo, umukobwa, cyangwa se umuhungu, yakwambara akaberwa cyane.

Inzu y'ubucuruzi icuruza amafunguro. Hari icyapa kiri kugaragaza ubwoko bw'amafunguro ahari. Hagaragara ko hari inkoko, ifi, ifiriti, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Mu nzu z'ubucuruzi hagaragaramo ibintu byinshi, aho abashoramari ndetse n'abacuruzi bajya kurangura ibyo bintu, kugira ngo bazaboneho inyungu babigurisha abantu, cyangwa se abaturage bityo bakiteza imbere.

Ikoraniro ry'ibicuruzwa biri aho bicururizwa, aho biba bitegereje ko abantu baza kubigura ,urugero rw'ibicuruzwa harimo nk'ibiribwa aribyo:umuceri, imbuto ndetse hagaragaramo n'utundi dukoresho tw'ibanze two mu rugo ,nk'umurunga, imigozi n'ibindi.

Uburiro bugaragaramo ibintu byinshi bitandukanye， byiganjemo ibiribwa， ibyo kunywa， ndetse hakagaragaramo n'ibikoresho bifashisha，bategura ibyo biribwa， aho abakiriya bajyana amafaranga， maze bagahabwa ibyo biribwa， ndetse n'ibinyobwa.

Imwe muri sosiyete icuruza itumanaho mu Rwanda, aho ifasha abaturage mu itumanaho, aho umuturage avugana n'undi bidasabye ko bahura, bifashishije iryo tumanaho riba ryagurishijwe muri zimwe muri sosiyete icuruza iryo tumanaho.

Ibikoresho bigaragara mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umukara，aho bisangwa mu bacuruzi，kugira ngo babigurishe abantu bage babikoresha mu gufata amazi，bakayabika kugira ngo bazayakoreshe， mu gihe bikenewe cyangwa se mu gihe imvura idahari.

Inzu nini zigezweho z'ubucuruzi, aho bigaragara ko zikorerwamo ibikorwa byinshi, aho abacuruzi ndetse n'abashoramari bakodesha bimwe mu byumba bizigize, maze bagakoreramo imishinga cyangwa se bagacururizamo, bityo bakiteza imbere.

Mu kazi ka buri munsi habonekamo ingeri nyinshi z'abakozi harimo: abacuruzi, abashoferi, abanyonzi ndetse n'abatwazi ba moto, harimo n'abandi babafasha gukora akazi kabo neza, nk'abapolisi babarebera umutekano wabo ndetse n'abandi benshi.

Icyapa kigaragaza ko aho hantu hari akabari, kiri impande y'amatara yo ku mihanda, ndetse hari n'umuhanda wa kaburimbo hejuru yawo hariho umuyoboro w'amashanyarazi.

Ububiko bw'imiti y'amatungo, bigaragara ko riri mu ivuriro ry'amatungo, aho iyo miti yifashishwa mu kuvura amatungo harimo nk'inka, amahene, ingurube, ndetse n'andi matungo menshi atandukanye, bifasha aborozi gukora imishinga y'ubworozi neza, kandi bakayibona amafaranga.

Iduka bigaragara ko ririmo gucuruza ibicanwa byitwa amakara, aho abantu bayagura, kugira ngo bajye kuyatekesha amafunguro mu buzima bwa buri munsi.

Ahantu henshi batanga serivisi zo kugabura. Aho ugenda ufite amafaranga maze ugasaba ibiribwa byose ushaka ukabihabwa ku giciro cyiza cyane.

Inyubako igezweho bigaragara ko icuruza imiti, aho umuntu agenda afite uburwayi maze bakamugurisha imiti bikamufasha gukira vuba.

Inyubako y'ubucuruzi iciriritse kandi ntoya mu ngano, aho igaragara ko icuruza ibyo kurya harimo nk'imineke ndetse ikaba icuruza n'amakara cyangwa se ibicanwa byo gutekesha.

Ikoraniro ry'inzu z'ubucuruzi aho bigaragara ko bacuruza ibintu byinshi bitandukanye, harimo: amacupa y'imyuka yo guteka, ibyo kurya, kandi hakagaragaramo ko banacuruza imyambaro, kandi hakaba hariho icyapa kigaragaza ko hatangirwa serivisi z'irembo.

Ikoraniro ry'abantu benshi barimo guhimbaza Imana, aho buri wese ava mu rugo rwe agiye ku rusengero kugira ngo ahure n'abandi maze bashime Imana banasenge, kandi ibi bibaho igihe bose bahuje imyemerere ndetse n'imyizerere.

Mu Rwanda habonekamo umubare munini w'amahoteli, aho abanyamahanga baza mu Rwanda bagacumbikamo, bakagaburirwa, kandi bigatuma abanyarwanda babona akazi biturutse kuri ayo mahoteli.

Umugabo uhagaze iruhande rw'aho bogera, bisa nkaho ari muri hoteli cyangwa se mu kibuga cya hoteli, aho ahantu bogera hakunze kuba haba mu mahoteli cyangwa se mu macumbi, aho umuntu yishyura amafaranga maze akajya koga muri ayo mazi.

Mu mahoteri bagira ibikoresho byinshi bitandukanye. Harimo nk'iby'uko bakoresha mu isuku n'isukura, ibyo kwakiraho abakiriya ndetse n'ibindi bikoresho bakoresha mu myidagaduro, kugira ngo abakiriya banezerwe.

Kimwe mu bintu bituma abanyamahanga basura u Rwanda. Ni ikirere cyiza gifite amahumbezi. Bigatuma rero igihugu cyinjiza amadovize. Biturutse ku bwiza bw'ikirere cy'u Rwanda.

Ba rwiyemeza mirimo bashora amafaranga mu bubaji bagatangira kubaza, aho bifashishwa kugira ngo babaze amasanduka yo gushyinguramo abitabye Imana.

Ikoraniro ry'abantu benshi biganjemo abagore, bisa nkaho bari mu gikorwa cy'igura n'igurisha ry'ibirago. Aho bikoreshwa nko kuryama cyangwa se gusasa uburiri.

Inzu y'ubucuruzi irimo ikoraniro ry'ibintu byinshi, cyane cyane ibyo kurya no kunywa . Mu byo kunywa harimo imitobe y'ubwoko butandukanye, harimo n'ibyo kurya biturutse mu nganda n'ibindi byinshi.

Mu isoko ry'ibiribwa hagaragaramo ibintu byinshi bitandukanye, harimo nk'imboga n'imbuto nyinshi zitandukanye, ibitunguru, insenda ndetse n'amacunga, amapapayi ndetse n'ibindi.

Ikoraniro ry'amavuta y'ubwoko butandukanye aho bukoreshwa mu kwisiga. Amavuta rero uyasanga mu nzu nyinshi z'ubucuruzi, aho yifashishwa n'abantu kugira ngo impu zabo zigire ubuzima bwiza.

Iguriro ririmo ibintu byinshi, higanjemo iby'isuku nk'amavuta yo kwisiga, isabune ndetse hakabamo n'ibindi bikoresho byo mu rugo: ingufuri, amatoroshi ndetse n'ubujerekani bukoreshwa mu rugo.

Amatungo magufi yitwa inkwavu . Agaragara mu mabara atandukanye, harimo izifite amabara abiri; iry'umweru n'umukara, hari n'izifite ibara ry'umweru gusa .Aya matungo bigaragara ko yajyanywe ku isoko kugira ngo abakiriya bayagure ,bayorore cyangwa se bayaryemo inyama.

Ibiribwa biba mu mazu acuruza ibyo kurya, aho abantu bajya kugura ibyo biribwa kugira ngo babirye.

Isoko rya kijambere ry'ibiribwa. Bigaragara ko higanjemo imbuto zirimo:avoka, imyembe, amapapayi, amacunga ndetse n'izindi.

Mu masoko y'imyenda habonekamo ubukorikori bwinshi butandukanye, nko kudoda imyenda y'ubwoko butandukanye, gutera amapasi, kugura amapasi, ndetse bakanagurisha iyo myenda baba badoze.

Urujya n'uruza rw'abantu hagaragaramo abari mu mutaka w'umuhondo, bigaragara ko bari mu isoko barimo guhaha, kandi harimo n'abagurisha, aho buri wese aba afite ikimujyanye mu isoko, haba guhaha cyangwa se kugurisha.

Ibikoresho byo mu rugo byifashishwa mu kubika amazi, iyo bifite isuku nkeya bishobora guteza ikibazo, umuntu wakoresheje ayo mazi nko kurwara indwara ziterwa n'umwanda zirimo: nko kurwara mu nda, igicuri ndetse n'izindi bityo bikavamo ipfu zitateganyijwe.

Mu bigaragara mu nzu z'ubucuruzi cyangwa se mu maduka haba harimo ibicuruzwa bitandukanye, hariho nk'umunyu, umu mutobe, amata ndetse n'ibindi biribwa bitandukanye.

Mu isoko ricuruza ibikoresho byo mu rugo, harimo indobo, ibikombe, amabase, amasafuriya, amasahani ndetse n'ibindi byinshi, aho bigurwa cyane n'abantu bagiye kubikoresha mu mirimo yo mu rugo.

Isoko ry'imyenda n'inkweto aho abakiriya baza baje gushaka inkweto ndetse n'imyambaro, aho umucuruzi ajya kurangura imyenda ndetse n'imyambaro umucuruzi akabonamo inyungu...

Iguriro hari imikeka myinshi, aho bajyanye kuyigurisha aho abantu baba bayikeneye ngo bajye bayikoreshe mu ngo zabo mu buzima bwa buri munsi.

Iduka bigaragara ko ririmo ibicuruzwa bitandukanye ariko byiganjemo imiti. Nk'iy'abagabo, igikakarubamba, ifu y'igikoma ndetse n'amavuta yo kwisiga.

Iguriro aho ricuruza ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo uduseke, ibyibo, imbabura, aho usanga abantu benshi bakeneye kubigura, kugira ngo bazajye babikoresha mu ngo za bo.

Umwembe ni mwiza kuko iyo uwuriye bituma haba hari indwara runaka uba wikingiye, kuko irinda indwara nyinshi zitandukanye harimo umuvuduko w'amaraso n'izindi nyinshi.

Inzu y'ubucuruzi iciriritse ikunze kugaragaramo udukoresho ndetse n'ibiribwa ku mafaranga makeya, n'aho umucuruzi yunguka inyungu nkeya.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa byinshi, higanjemo ibyo kunywa nk'inzoga, imitobe kandi hakaba harimo n'ubuki, hakazamo n'ibyo kurya byinshi bitandukanye.

Ahantu hagitera imbere aho hakiboneka inzu zitakigezweho. Ariko Leta y'u Rwanda iri gushyira imbaraga mu kubaka inzu zigezweho bityo bikazamura ireme ry'u Rwanda n'ubukungu muri rusange.

Isoko ry'ibiribwa， harimo abantu benshi b'abacuruzi，ndetse harimo n'abakiriya baje gushaka ibiribwa， muri ibyo biribiribwa higanjemo ibirayi， amashu， karoti ndetse n'ibindi.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu isoko, aho abacuruzi barangura ibiribwa byiganjemo: ibitoki, amashaza, ibishyimbo, ibijumba bakabigurisha abandi bantu batabifite bakabaha amafaranga.

Isoko cyangwa se iguriro ry'ibikoresho by'ibanze byo mu rugo harimo amasafuriya, ibiyiko, amasahani, ibikombe, udukoresho barambikaho amasabune, ndetse n'ibindi.

Ubworozi bw'inkoko, ni bumwe mu bworozi bwateye imbere cyane, aho inyama z'inkoko ari zimwe mu nyama zihenze cyane, kuko zikenewe n'abantu benshi kandi zikaba zikundwa n'abo bantu.

Kuri ubu hari abantu bagifite imishinga yo kwimakaza umuco nyarwanda, aho bagikora bimwe mu bikoresho bakora, byakoreshwaga kugira ngo bigurwe n'abantu bagiye babikoresha mu ngo zabo mu buzima bwa buri munsi.

Urujya n'uruza rw'abantu, bahuriye mu isoko. Hagaragaramo abacuruzi b'inkweto ndetse n'imyenda, hakaba haje n'abakiriya babo, baje kugura izo nkweto ndetse n'imyenda.

Umurimo w'amaboko wo guhonda amabuye, aho amabuye akoreshwa mu gikorwa cyo kubaka inyubako nyinshi zitandukanye. Rero abahonda amabuye bahabwa amafaranga na ba nyiri kuyagura, aho bituma aba abantu babona inyungu iturutse mu guhonda ayo mabuye.